Ibyuzi byororerwamo amafi kugira ngo abantu bayarye, bibafashe kwirinda indwara, iruhande yaho hariho ikiyaga kinini gikikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ibyuzi byororerwamo amafi kugira ngo abantu bayarye abafashe mu buzima, ibyuzi biri mu kibaya, birimo amazi kandi harimo n'amafi arimo kororerwamo.

Abarobyi bari mu kiyaga bagiye kuroba amafi, ni abarobyi bane bafite ibase ndetse n'inshundura bari gufatiramo amafi, hariho amazi y'ubuturo bw'amafi abamo, akayanywa akabaho neza.

Ibyuzi byifashishwa mu bworozi bw'amafi. Iruhande rwaho, hari ubwatsi bwifashishwa nk'ibiryo by'amatungo bya buri munsi. Hari ibiti birinda isuri bigatanga n'umwuka mwiza bigakurura n'imvura.

Umugabo urimo kugenda mu kayira, yikoreye ikidipe, kirimo ubwatsi bw'inka. Iruhande rwe hariho igihingwa ngengabukungu, ari cyo ikawa.

Ubutaka buriho voka ziri mu bihoho, ibihoho ni igikoresho cyifashishwa mu gufata itaka bakarishyira muri icyo gihoho bagashyiramo urubuto, hari ibiti bitanga igicucu kuri izo voka kubera ko zikiri ntoya.

Umuhinzi uri mu murima we arimo gusarura igihingwa ngandurabukungu ari cyo ikawa, kimeze neza kiratoshye, ikawa ni igihingwa kidufasha kwinjiza amadovize mu Rwanda.

Igihingwa ngandura bukungu ikawa yifashishwa mu kuzamura ubukungu bw'igihugu n'abaturage muri rusange, hari umuturage arimo gusarura ikawa.

Umuhinzi arimo gusarura ikawa, ikawa n'igihingwa ngengabukungu, umuhinzi yambaye agapfukamunwa kamurinda kwandura indwara zandurira mu mwuka.

Igihingwa ngengabukungu giteye mu murima, kiratoshye, kirasa neza, giteyeye ku murongo uko iminsi igenda ishira kigenda gikura.

Amacupa arimo amavuta, ku icupa hariho icyapa gishushanyijeho inka, impande yaho hariho udukarito duteretse ku meza akoze mu biti.

Amacupa arimo imiti y'amatungo. Hariho icyapa, kiriho igihe umuti wakorewe n'igihe uzarangirira. Amacupa afite ibara ry'umukara, apfundikishijwe n'imifuniko y'umutuku.

Uyu ni umuturage bigaragara ko ari umworozi w'amatungo yitwa inka atanga umusaruro mwinshi utandukanye, harimo amata, ifumbire yo gufumbira imyaka ndetse n'inyama, yubakiye ikiraro cyiza cya kijyambere gifite amabati atuma imvura itanyagira amatungo.

Abaturage barimo guhinga ibiti, ibiti bidufasha kwirinda isuri ndetse bikaduha n'umwuka mwiza duhumeka.

Abahinzi bari mu murima uteyemo ibirayi, iruhande rwabo hateyeho ubwatsi bwifashishwa nk'ibiryo by'amatungo bwa buri munsi.

Umuhinzi ari ku muririma we uteyemo ibigori. Ibigori n'ibihingwa byifashishwa nk'ibiryo by'abantu bikaba n'ubwatsi bw'amatungo. Ibigori abantu babifata nk'ibiryo bitera imbaraga imbere yaho hateyeho ubwatsi.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo, kiyivana ahantu hamwe kijyana ahandi, hari abaturage, bavuye ahantu henshi hagiye hatandukanye nko mu mirimo yabo ya buri munsi, hari amatungo yashotse, yagiye gufata ibyo kurya, hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Umuhinzi arimo gutera igihingwa cy'urubuto ari rwo voka, ari gushyiraho itaka ndetse n'agafumbire, ari kwifashisha isuka mu gucukura kugira ngo atere voka.

Ni ikinyabiziga cyitwa igare gitwara imizigo kiyivana ahantu hamwe kiyijyana ahandi, hari umugabo ugitaye arimo gusunika umuzigo, hari ibyatsi byifashishwa nk'ibiryo by'amatungo bya buri munsi.

Abahinzi bahuriye hamwe bari gufata itaka bakarivanga n'ifumbire, bagapakira mu gihoho bagashyiramo urubuto bakabishyira aho bigomba gukorera.

Abaturage bari kugenda mu muhanda, bagenda, hari ishyamba rinini riri impande y'uwo muhanda, imbere yaho hari ikibaya kinini giteyemo umuceri.

Igihingwa ngandurarugo, ari cyo imyumbati, iteye mu murima, uri hamwe n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, ari byo urutoki ndetse n'amateke.

Umurima uteyemo imboga, imboga ni igihingwa kidufasha kwirinda indwara, ndetse kidufasha kwirinda ubuhumyi, kandi bikarwanya imirire mibi ku bana n'abakuru.

Igihingwa ngandurarugo ari cyo ibirayi kiri mu mufuka kirimo gutunganywa ngo bagiteke, ibirayi ni ibihingwa byifashishwa nk'ibiryo by'abantu bakabirya bikabafasha mu buzima.

Amazu yubatse meza, yubakishije amatafari asakajwe n'amabati. Inyuma yaho hariho ishyamba riteyeho ibiti, amashyamba akurura imvura akaduha n'akayaga keza ndetse n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, iruhande rwaho hari ibyatsi byifashishwa nk'ibiryo by'amatungo. Aari amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ishyamba rinini riteyeho ibiti. Ibiti biduha umwuka duhumeka ndetse n'akayaga keza. Amashyamba adufasha gukurura imvura, ndetse, no gufata amazi, atera isuri.

Ibiribwa bigiye bitandukanye ari byo karoti, amashu ndetse n'ibitunguru, bidufasha kwirinda indwara. Hari betarave, zongera amaraso mu mubiri.

Umurima uteyemo ibishyimbo, biri kumirongo, bisa neza, bifite amabara y'icyatsi. Ibishyimbo ni ibiribwa bibwa n'abantu, bibafasha kwirinda indwara bikabatera imbaraga.

Umuhinzi uri mu murima we arimo gusarura ku karima k'igikoni, yahinze gateyemo ibitunguru, inoryi, karoti ndetse na betarava zidufasha kwirinda indwara z'imirire mibi.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga bifashisha mu kuhira imyaka, hari umurima uteyemo ibitunguru byifashishwa mu gushyirwamo ibiryo, mu gihe bashaka kumva impumuro nziza y'ibiriryo.

Umuhinzi urimo kuhira umurima we, yateyemo ibishyimbo. Hepfo yawo hariho urutoki rwiza cyane, urutoki ruduha imineke ndetse n'ibitoki byo kurya.

Igishanga kinini giteyemo ibirayi. Hariho ibikoresho bifashisha mu kuhira mu gihe k'izuba. Hariho uturabo twameze ku birayi kugira ngo bigaragaze ko byeze.

Umugore wambaye ikanzu, yiteze igitambaro cy'ubururu, afite igikoresho ari kugenda yuhira amazi ku gihingwa k'inanasi.

Aya ni amwe mu mazi yifashishwa n'abahinzi mu gihe bari kuhira imyaka igiye itandukanye. Hari amashyamba meza yifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, akaba ibicanwa, ndetse hari n'ibiti bimwe na bimwe byifashishwa mu gutanga imiti, bityo abantu bakanywa imiti biciye mu bimera.

Ikibaya kirimo icyuzi ndetse n'ibyatsi biteye. Hariho akazu mu gihe imvura iguye kababera ubwugamo. Hariho amashanyarazi nayo yifashisha mu gucana mu gihe cya n'ijoro.

Umuhinzi uri mu murima afite igikoresho kifashisha mu kuhira mu gihe k'izuba, mu murima hateyemo amashu ari kugenda yuhirwaho amazi.

Amazi magari agiyemo ibirwa, hariho ibiti bikikije ayo mazi, hari indi misozi ituweho n'abantu hari n'imirima bahingaho.

Inka ebyiri zifite amabara atandukanye. Imwe iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Irindi rifite ibara ry'umweru ndetse n'igitare. Ziri mu kiraro.

Abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'amatungo bwa buri munsi, baje kuzisura bareba uko ubuzima bwazo bumeze, inka zifite amahembe maremare, inka ni itungo ryororwa n'abaturage, zitanga amata ndetse n'ifumbire bifashisha mu guhinga.

Aba ni abavuzi b'amatungo bigaragara ko bari kwita ku matungo akunze kororwa inaha mu Rwanda azwi ku izina ry'inka, aya matungo atanga umusaruro mwiza kandi ugiye utandukanye, harimo gutanga amata, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye, hari ibyatsi byiza byifashishwa n'amatungo, bikayabera ibyoku kurya bya buri munsi.

Umuntu ushinzwe kwita ku buzima bw'amatungo. Inka iri imbere ye, afite urushinge mu ntoki arimo kuyitera umuti. Hari n'izindi nka nyinshi, zifite amahembe meza maremare.

Abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'amatungo bwa buri munsi, barimo gutera inshinge ndetse banayitera intangaga.

Ikiraro kirimo inka. Inka irimo kurya ubwatsi kugira ngo ize gutanga umukamo ndetse n'ifumbire. Ikiraro cyubatse mu biti.

Umworozi yasuwe n'abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'amatungo, ariyo inka intama ingurube ndetse n'izindi nyamaswa. Hariho inka ziduha amata ndetse n'inyama.

Ahantu bororera imishwi, harimo abantu barimo kwita kusuku y'iyo mishwi. Hariho aho zinywera amazi n'aho zirira, hagiye hacamo ibice ibice.

Ingurube ni itungo ryororwa mu rugo ritanga ifumbire ndetse n'inyama, yambaye iherena ry'umuhondo, iherena ririfasha kuyitandukanya n'izindi mu gihe wayibuze.

Inkoko zitanga amagi ndetse n'inyama, hari amabase baziheramo amazi yo kunywa ndetse inzu zaho zitaha.

Igihingwa ngandurarugo bita ingano. Bayikoramo igikoma, hari iziri hasi zigosoye n'izikiri mu murama wazo.

Ikiganza gifite imbuto ari zo soya, soya ni igihinga cyifashishwa mu gukora igikoma ndetse no kuba bazirya.

Umuntu urimo agaragaza igihingwa cy'ubunyobwa, impande y'aho harimo umufuka urimo umuceri na wo barimo kutwereka, hariho imifuka ifunze irimo ibintu biteretse hasi, hariho n'abandi bantu barimo kubireba.

Imifuka irimo ishwagara batera mu murima kugira ngo barwanye ubusharire bw'ubutaka, biri mu mifuka y'umweru ndetse hariho n'umweyo bifashisha mu gukubura aho bamaze gukura imifuka.

Imifuka irimo umuceri, umuceri n'ibiribwa biribwa n'abantu, hejuru yaho hariho umweyo bifashisha mu gusukura iyo nzu irimo iyo mifuka y'imiceri.

abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'amatungo bwa buri munsi, hari inka iduha amata, inyama ndetse n'ifumbire, iri mu kiraro barimo kuyitera intanga.

Abantu bashinzwe kwita ku buzima bw'amatungo bwa buri munsi. Barimo gutera intanga inka. Inka ni itungo riduha amata ndetse n'inyama ndetse n'ifumbire bifashisha mu guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye.

Umuntu ushinzwe kwita ku buzima bw'amatungo ari kumwe n'abaturage b'aborozi, bari kumwe n'amatungo yabo, yabagamye ngo ababaze ibibazo inka zabo zaba zifite.

Itungo ryororwa n'abaturage baryororera mu rugo. Ritanga umusaruro ugiye utandukanye ariwo inyama ndetse n'ifumbire. Hariho abantu barimo kuyikorera igikorwa cyo gukona.

Abavuzi b'amatungo bari mu gikoresho gishinjwe kureba udukoko tutabonesha amaso, aho bari gupima utwo dukoko dufata amatungo kugira ngo badushakire ubuvuzi ku matungo.

Inyamaswa yororerwa mu ishyamba bita ishya, iri kumwe n'izindi imbere yaho hariho umukenke ziberamo, hari ibyatsi bizitunga mu buzima bwazo bwa buri munsi, hari n'ibiti bizifasha kubona umwuka mwiza bihumeka.

Parike ibamo inyamaswa zigiye zitandukanye, arizo impara ndetse n'imparage, intare ndetse n'izindi nyamaswa. Ziri mu ishyamba ryiza rya kimeza, harimo utwatsi tuzitunga mu buzima bwazo bwa buri munsi.